Igikuta cy'ishuri mu mashuri abanza, kikaba gishushanyijeho umuntu ndetse n'injangwe, ibi bifasha abana kwiga ndetse no kunguka byinshi binyuze mu bishushanyo.

Uburyo bwo kwigisha abana bakiri batoya ni ngombwa ko ubaha imyitozo kugira ngo usuzume neza ko ibyo wabigishije babifashe bityo na bo bakagira icyo bunguka.

Udushushanyo dutandukanye harimo ibase ndetse n'umweyo ibi bishushanyo akenshi bisangwa ku bigo by'abana b'inshuke kuko bibafasha gusobanukirwa no kumva ibyo biga mu mashusho.

Mu mashuri y'inshuke biba byiza ko mu gihe cyo kubigisha, ukoresha ibishushanyo kugira ngo barusheho gusobanukirwa kuko baba bataramenya kwandika cyangwa se gusoma ariko ibishushanyo birabafasha cyane.

Pisine ni ahantu heza abantu bajya bakoga mu mazi bikabavura amavunane y'ingingo zimwe na zimwe, ushobora kuzisanga ku mahoteli ndetse n'ahandi hantu hatandukanye h'ingenzi.

Umunyeshuri uri kwitoza gusoma akaba ahagaze imbere y'ababyeyi abereka ibyo yigiye ku ishuri kugira ngo bamenye neza ko hari icyo yungukiye ku ishuri.

Ni ku gikuta mu mashuri hari umunyeshuri uhagaze mu muryango wambaye n'impuzankano y'ishuri, kuri icyo gikuta hashushanyijeho ibishushanyo bitandukanye bifasha abanyeshuri gusobanukirwa neza.

Agatabo keza kariho udushushanyo dushimisha abana bo mu mashuri y'inshuke, aka gatabo kakaba kabumbura ubumenyi mu bijyanye no kwaguka mu bwonko.

Agakapu gatoya gasa neza cyane kakaba ari agakapu gahekwa n'abana bo mu mashuri y'inshuke, utu dukapu dushimisha abana batoya ni byiza ko nawe umufite wakamugurira.

Agatabo keza cyane kariho amashusho y'abana bari gukinisha udukwavu, ibi bitabo bisangwa mu mashuri y'abana b'inshuke bikaba bibafasha kunguka ubumenyi.

Ikaramu cyangwa se ibimarikeri ni bimwe mu bikunze kwifashishwa n'abanyeshuri igihe bari gushushanya, cyane cyane abana bo mu mashuri y'inshuke.

Ibyicungo biri mu mu mabara atandukanye ibara rya oranje, ubururu bwererutse, ubururu bwijimye, hakaba hariho abana bari kwicungaho urabona ko babyishimiye cyane.

Kandagira ukarabe ni kimwe mu bikoresho bikomeje gukwirakwiza isuku nziza ku bantu kuko iyo umuntu akarabye, bimurinda kuba yakwandura indwara zitandukanye ziterwa no kugira umwanda wo kudakaraba.

Ni ku kigo cy'amashuri hakaba hashushanyije inzovu kugira ngo bifashe abana b'amashuri y'inshuke kuba bamenya ubusobanuro bw'iki gishushanyo bityo bakunguka ubumenyi.

Icyapa kiri mu ibara ry'ubururu, kikaba cyanditseho amagambo agaragaza ikigo cy'igihugu gishinzwe uburezi mu gihugu cy'u Rwanda, iki kigo kikaba gishinzwe ireme ry'uburezi.

Ibigo byinshi biba bifite abarezi babugenewe ndetse bagomba no kwambara impuzankano zabo, basuwe n'abamansela ubona ko bari gufata ifoto y'urwibutso.

Ibikoresho byifashishwa n'abanyeshuri, cyanecyane abiga imibare. Harimo amarati ya mpande enye amarati ya mpandeshatu kereyo kompa, ndetse n'utundi dutandukanye.

Abanyeshuri bari mu ishuri barimo bariga urabona ko bashishikaye urabona ko ku kibaho hari imikoro bahawe kugira ngo bayikore mwarimu arebe ko bamenye ibyo yabigishije.

Igitabo gishushanyijeho ifoto y'umwana uri kwituma mu mazi, ibi bikaba bigaragaza ko bagomba kwirinda nk'abanyeshuri biga mu mashuri abanza birabigisha cyane.

Ni mwishuri aho abana batoya biga mu mashuri abanza bari kwiga imibare urabona ko babishishikariye kandi bibashimishije bambaye n'impuzankano ifite isuku.

Inyubako nziza cyane ikaba yubatswe mu matafari, ikaba isakajwe amabati y'ubururu, inkingi zigize inyubako ni byuma biri mu ibara ry'icyatsi, akaba ari ikigo cy'amashuri.

Impyisi ni imwe mu nyamaswa z'inkazi ikirenzeho kandi zikunda inyama, uzisanga mu maparike yatandukanye, gusa kuyireba bigusaba kuyirebera hirya kuko uyegereye yakugirira nabi.

Ni gereza iherereye mu Karere ka Nyagatare ikaba ifungirwamo abana bakoze ibyaha, bakagororwa bakavamo abantu bazima kandi bafite ikinyabupfura.

Abana biga mu mashuri abanza bakenera ibikoresho bitandukanye birimo amarati, amakaramu, amakayi, ni byiza rero ko ubagurira amabuwate kuko usanga ikubiyemo byinshi mu byo bakenera.

Agatabo kariho ibishushanyo bitandukanye, akaba ari igitabo cy'abana bo mu mashuri abanza k'Ikinyarwanda, kikaba kiriho n'imibare ndetse n'inyuguti bibafasha kunguka ubumenyi.

Ameza afite ibara ritukura akaba arambitseho ibitabo byo mu myaka itandukanye bifasha abana mu gusoma ndetse no kunguka ubumenyi butandukanye.

Inyubako yubatse igeretse ikaba itaruzura, iruhande rwayo hari indi nyubako mu bigaragara ni ikigo cy'amashuri abanyeshuri bajyaho bakabona uburezi buboneye.

Ababyeyi bari hamwe n'abana babo batoya, barimo barabaganiriza ku bijyanye n'uko bagomba kwiga, bityo bikazabateza imbere ahazaza, igihe babikunze.

Ibuwate ni igikoresho cy'ingenzi ku banyeshuri kuko ibafasha mu gukora ibintu bitandukanye, mu guca inziga, mu guca imirongo, mu gushushanya, mu kwandika bityo bakunguka ubumenyi.

Mu mashuri abanza kwigisha abana babo ni byiza ko ubereka n'amashusho yo ku bitabo kugira ngo barusheho kunguka ubumenyi, bityo nabo bashishikarire no gusoma kandi babifate nk'umuco wabo kugira ngo bungukiremo byinshi.

Umukino wa basiketi ni kimwe mu bikorwa by'imyidagaduro bishimisha abantu benshi, aba bafana na bo bari baje gufana kugira ngo barebe ko amakipe yabo yabaha ibyishimo.

Imibare yanditse mu'i ibara ry'icyatsi ndetse n'amagambo yanditse mu mabara agiye atandukanye, ibi bikaba bifasha abana cyane cyane bo mu mashuri abanza, kunguka byinshi bijyanye n'amasomo.

Kaminuza iherereye mu Karere ka Nyagatare, ikaba yigisha ibijyanye n'ubuforomo ndetse n'ububyaza, hakava inzobere zijya gufasha abantu bakeneye ubufasha.

Udukoresho dutandukanye harimo ndetse n'udukato turimo amakereyo, hari n'amakaramu y'ibiti, impakasi, amarati, byose bikaba byifashishwa mu burezi ku banyeshuri bo mu mashuri abanza ndetse n'ayisumbuye.

Ikoranabuhanga ni kimwe mu bintu bikomeje gushyirwamo ingufu mu gihugu cy'u Rwanda, urabona ko abanyeshuri bari kuberekera uko bakoresha mudasobwa kandi bakazifashisha mu bushakashatsi bw'amasomo yabo.

Abanyeshuri benshi bambaye amashati y'umweru n'amapantaro y'ikigina, umwe muri bo wakoze neza akaba ari guhabwa igihembo cy'umunyeshuri witwaye neza kubwo gukurikiza ibyo yigishijwe agasubiza neza.

Ikigo cy'amashuri cyubatse ahantu, heza hejuru yacyo hakaba hari urutsinga rujyanayo umuriro w'amashanyarazi kugira ngo bifashe abarimu gutambutsa amasomo yabo.

Ni muri sare nini ahahuriye abantu batandukanye harimo umugore umwe ndetse n'abagabo bane bakaba bambaye amajiri ari mu ibara ry'icyatsi kibisi ndetse n'ubururu, urabona ko bari gutera intambwe bagana imbere.

Abanyeshuri bari ku murongo, hakaba harimo abambaye imyambaro y'umuhondo, ndetse n'abambaye imyambaro y'umweru n'amapantaro ajya gusa ikigina, bakaba bari kuri arasamburema bateze amatwi umuyobozi wabo.

Ni ku kigo cy'amashuri, abanyeshuri bakaba bicaye kuma esikariye, bakurikiranye inama bari kugezwaho n'umuyobozi wabo, ubahagaze imbere ndetse bumva n'impanuro ari kubagezaho.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bakaba bari gusoma ku bipapuro bareba amanota y'abatsinze kuyobora ishuri kugira ngo bajye babafasha kubavuganira.

Ni ku kigo cy'amashuri abanyeshuri bakaba bari kwigishwa ku bijyanye n'uko bashyira mu bikorwa ibyo bize, urabona ko barimo baraberekera uko bigomba gukorwa.

Ku bigo by'amashuri yisumbuye uhasanga abarimu b'inzobere batanga ubumenyi ku bana ndetse bakabungura byinshi bizabafasha bikababera n'impamba ahazaza.

Icyumba cyiza gisize amarange yo mu bwoko bw'ikigina, ubururu butererutse ndetse n'inzugi nziza cyane hateraniyemo abantu bari kwiga ku ngingo runaka.

Ikigo cy'amashuri cyitwa G.S Nyagatare, akaba ari ikigo giherereye mu karere ka Nyagatare, iki kigo kikaba gifite igipangu cyiza kigizwe n'ibyuma.

Icyapa cyometse ku nzu yubakishijwe amatafari kiriho ibikoresho bitandukanye imikasi, amasaha, ibikoresho bipima umutima, amarati ndetse n'ibindi bitandukanye bikoreshwa mu mashuri.

Ni muri salle nini harimo intebe hakaba harimo n'abantu batandukanye ab'igitsina gabo n'igitsina gore, hari umugore imbere uri kubaha amasomo abasobanurira ibintu bigiye bitandukanye.

Udukoresho tuba twarakozwe n'abanyeshuri babyigiye, urabona ko dusa neza, akaba ari imitako ushobora kugura, ukayitaka iwawe hagasa neza cyane.

Inyubako nziza ikaba ifite inzugi z'ibyuma, ibirahure mu madirishya ndetse hakaba hariho na nimero iranga iki cyumba kugira ngo uje ahagana atabayoba.

Leta yagiye yubaka amashuri hirya no hino kugira ngo ajye afasha abanyeshuri kwiga yababa ubumenyi busanzwe cyangwa se ubumenyi bw'imyuga kugira ngo bizababesheho ahazaza.

Ni mucyumba cyiza giteye irangi ry'umuhondo ku gikuta ndetse hasi hari amapave, muri icyo cyumba kandi harimo intebe abanyeshuri bicaraho, ziba zarakozwe n'ababyigiye.

Abantu bahuriye muri salle nini salle igaragara neza ifite amarido bose bakaba bambaye udupfukamunwa, mu bigaragara umugabo uri imbere arimo arabagezaho ijambo yabateguriye.

Abanyeshuri biga imyuga akenshi na kenshi bagenda bakora utuntu dutandukanye bakadukora mu biti kandi watubona ukabona ni byiza, nk'ibi ngibi babigurishije babona amafaranga yo kubatunga.

Abanyeshuri bari mu cyumba kimwe k'ishuri bakaba bari gukora etide kugira ngo igihe cyo kubazwa nikigera bazabashe gutsinda ibyo babajijwe n'abarimu babo.

Ni inyubako igizwe n'urugi rukozwe mu byuma ndetse n'ibirahure, ikaba ifite umuryango uriho nimero iharanga kugira ngo abahakeneye serivise batayoba.

Ku bigo by'amashuri cyane cyane amashuri makuru usanga urubyiruko rwinshi ruba rushishikajwe no kwiga, urabona ko n'aba nabo bavuye gusoma barishimye cyane kuko bungutse byinshi.